Kuri ubu ngubu mu Karere ka Musanze utubari n'ama bare byamaze kwiyongera, ni nako kandi abakeneye kujyayo bajya bagasangayo ibintu bigiye bitandukanye birimo nk'ibinyobwa inzoga z'ubwoko bwose, ndetse bakaba babasha no kubona n'icyo kurya.

Ingurube ndetse niz'inkwavu n'inkoko bakabasha kugaburira ba mukerarugendo baba basuye i Musanze, ibyo nabyo bikabafasha mu kubona amafaranga bakabasha kwiteza imbere.

kuri ubu ngubu mu karere ka Musanze , usanga hari amabare menshi, ndetse anasobanutse . Dore nk'aho usanga bare imwe yubatse nko ku buso bungana n'ibibanza bibiri , kandi ikaba yakwakira abantu benshi mu buryo bubanyuze. Haba hari ibiribwa , ibinyobwa ndetse n'ibindi ushaka.

Resitora ndetse n'amagare, nabyo bigira umumaro ukomeye cyane, mu iterambere ry'abaturage, nk'aho usanga bacuruza inyama zigiye zitandukanye, ibirayi, ndetse n,'udusalade bashyira kuri iyo ndyo. Usanga abantu bakunda inyama y'ifi, inyama y'inkoko, nyuma y'urukwavu.

Kuri ubu mu ma bare ndetse n'utubari two mu karere ka Musanze usanga hari ibintu byinshi bitandukanye birimo: nk'inyama, burushete, ndetse n'ibinyobwa bitandukanye. Ikindi usanga botsa amafi barangiza bagashyiraho indimu, indimi ikaba ifasha mu igogora ry'iyofi iyo igeze mu nda.

Muri iki gihe, amambare asigaye ateka neza kandi agateka ibiryo bigezweho, birimo nka maroresi, amacipusi ndetse n'ibindi. No mu karere ka musanze rero ntibasigajwe inyuma aho ubungubu hari amahoteli y'amabare ndetse n'amaresitora, ateka ubwoko bwose bw'ibiryo bigezweho, kandi ukaba wabibonera no ku gihe.

Mu mabare n'amaresitora ndetse n'utubari tumwe na tumwe two mu karere ka Musanze , usanga botsamo amaburushete. Ayo maburushete aba akoze mu nyama z'inka , iz'inkoko n'iz'ihene . Ugasanga bigurwa n'abaturage , bakabirya mu gihe bagiye muri ayo mabare.

Amahoteli n'utubari ni bimwe mu bikorwa biri gutera imbere mu karere ka Musanze, dore nk'aho usanga nka buri santere yose mu karere ka Musanze ifite hoteli, cyangwa akabari, kandi ugasanga wasangamo inzoga zose z'ubwoko bubaho, harimo izisindisha ndetse n'izidasindisha.

Mu muco w'abakera wasangaga bafata umunsi umwe bagacana igicaniro, noneho bakakizenguruka abo mu muryango wose bakaganira, kuri ubu ngubu amabare agezweho yavumbuyeko ibyo ari byo bishobora kugirira akamaro abaturage, bagakora ibijya gusa na byo nk'aho usanga intore ziri kubyinira abasuye ako kabari.

Amaresitora n'amabare ni bimwe mu bintu bigirira akamaro abaturage bo mu Karere ka Musanze. Dore y'uko amabara usanga bacuruzamo ibirayi, ibitoki, amaburushete, haba ay'inkoko, ay'ihene inkwavu ndetse usanga bacuruza n'akabenzi. Ari nako usanga gakunzwe n'abantu benshi, bityo rero usanga abakunda izo nyama bajya kuzigura bikagira icyo byinjiriza abacuruzi.

Igisope ni kimwe mu bikorwa bikundwa n'abantu benshi. Aho usanga kuri buri wa gatanu nimugoroba mu mabare menshi , haba hari igisope cy'abantu b'abahanzi , basubiramo indirimbo zaririmbwe n'abandi , bakazikora mu buryo bwabo , aho baba bafite abacuranzi babacurangira mu mbyino n'indirimbo bifuje.

Mu maduka agiye atandukanye usanga harimo n'amabutike acuruza ibinyobwa. Ibinyobwa birimo nka pirimusi, sikoro, amafanta y'ubwoko butandukanye, baba baranguye mu ruganda rwa Burarirwa. Ikindi usanga abaturage babikeneye na bo baza kuranguza.

Ubucuruzi bw'ibikomoka ku ifarini bumwe mu bucuruzi bamaze gutera imbere mu karere ka Musanze. Usanga abaturage bafite abantu bakorera amacapati menshi, amakeke, amandahazi, ndetse n'imigati. Ibi bibafasha mu kwiteza imbere dore yuko ubikora ashobora kugemurira akarere ka Musanze kose cyangwa nk'umurenge umwe.

Kuri ubu mu karere ka Musanze ,ahantu henshi usanga hari amabutike . Ndizera ko bitagusaba nka metero cumi n'eshanu utarabona butike. Izi butike zigirira umumaro yaba abaturage baziguriramo ibiribwa bigiye bitandukanye, ibicuruzwa bitandukanye ndetse na ba nyirazo, dore ko zibafasha mu kwiteza imbere.

Amaresitora amabare ni bimwe mu bikorwa bigira akamaro abaturage, dore yuko nk'ukeneye ibyo kurya n'ibyo kunywa hafi ahita abibona kandi ugasanga abiboneye no ku gihe, nko mu karere ka Musanze usanga hari amaresitora ,amabare acuruza ibiribwa ndetse n'ibinyobwa kandi ugasanga by'ubwoko bwose bihaboneka, birimo ibirayi byokeje, inkoko, ndetse n'andi matungo.

Amabutike ni bimwe mu bikorwa biri kwiyongera mu karere ka Musanze ,dore yuko usanga nk'ubu ngubu hasigaye hagezweho kubaka amakonoshi agezweho, iruhande rw'umuhanda ayo makonoshi akenshi usanga akodeshwa n'abacuruzi b'ibikoresho bigiye bitandukanye, ndetse n'ibiribwa bitandukanye harimo nk'ibishyimbo ndetse n'ibindi nk'amakenkayori.

Abaturage bamaze kwiteza imbere mu karere ka Musanze, nk'aho usanga hari abamaze gushinga ibigo by'amashuri yisumbuye ndetse na kaminuza, afasha abaturage bagiye batandukanye mu kubona ubumenyi mu bikorwa bitandukanye birimo nko kwiga hanze, no kubona viza ndetse no kwapurayinga mu makaminuza agiye atandukanye.

Muri butiike zibarizwa mu Karere ka Musanze harimo n'ayo twakwita salo do kuwafire. Izi salo do kuwafire aba arimo abakwaferi bogosha neza, kandi inyogosho zigezweho, kandi bikanabafasha mu kwiteza imbere, dore y'uko abaturage bakunze kubagana.

Mu karere ka Musanze usanga harimo amabutiki menshi acuruza ibintu bigiye bitandukanye. Haba ibikomoka ku nyamaswa, ubuhinzi ndetse n'ibindi. Haba harimo nk'inyanya, imbuto, imboga ndetse n'ibirayi, kuko aribyo bikunze kwera mu karere ka Musanze.

Bamwe mu baturage bo mu karere ka Musanze usanga bariteje imbere bagafungura amabutike acururizwamo ibiribwa, ibinyobwa ndetse n'ibindi bigiye bitandukanye umuntu akenera mu buzima bwe bwa buri munsi . Aho harimo nk'amavuta ,umutobe, ibinyobwa birimo inzoga ,amafanta ndetse n'ibindi . Ibyo ngibyo bikabafasha mu kwiteza imbere.

Kimararanzara resitorenti ni zimwe muri resitora ziri mu karere ka Musanze izi resitora gushaka kuyisangamo ibintu byose wifuza birimo: nk'ibirayi, igitoki, amateke, umuceri, ifiriti, ndetse n'ibindi. Ikindi nizi resitora usanga zitanga serivisi zirimo n'ibinyobwa naho ushobora kuba wasanga igikoma, amata, icyayi, ndetse n'ibindi binyobwa byakorewe mu nganda.

Kuri ubu ngubu mu karere ka Musanze ubucuruzi bwabaye bwinshi, nk'aho usanga amabutike agiye atandukanye acuruza ibintu bitandukanye birimo imyenda, birimo ibikoresho bya elegitoroniki nk'amaterefone, imigozi yo gucaginga, amaradiyo, amateleviziyo, ndetse n'ibindi byinshi abaturage bashobora kwifashisha.

Ubucuruzi ni bimwe mu bikorwa bimaze gutera imbere mu Karere ka Musanze, nk'aho usanga abaturage benshi bafite amazu yegereye umuhanda, baba barayubatsemo amakonoshi ashobora gucururizwamo. Aya makonoshi acururizwamo ibintu bitandukanye, birimo nk'ibiribwa, ibikoresho by'ubwubatsi, abogoshi ndetse n'ibindi.

Mu karere ka Musanze si ubucuruzi bw'ibiribwa bisanzwe ndetse n'ibinyobwa gusa bukorwa . Hakorwa n'ubundi bucuruzi burimo nk'ubw'ibikomoka ku ifarini harimo amandazi , capati , keke ndetse n'ibindi abaturage bashobora gukunda kandi bakabibona mu buryo bworoshye.

Alimantasiyo ni imwe mu bikorwa bigirira abaturage umumaro. Mbere y'uko usanga nk'umuntu uyifite abona abakiriya benshi, kandi bikamufasha na we kwiteza imbere. Alimantasiyo icururizwamo ibintu byinshi. Harimo nk'icyayi, imigati, amakeke ndetse n'amakarito y'amajuyisi atandukanye arimo nk'Inyange, amabiswi, amazi ya Nili ndetse n'ibindi.

Amabutike ni kimwe mu bikorwa bigirira akamaro abaturage, dore nk'aho usanga acururizwamo ibicuruzwa bigiye bitandukanye, harimo nk'inkweto hakabamo ibiribwa birimo amashu, ibitunguru, inyanya ndetse n'ibyo bifashisha mu guteka, harimo nk'amakara, amagaze ndetse n'ibindi. Ibi bifasha abaturage mu kubona ibicuruzwa hafi, batiriwe bajya kure.

Mu bucuruzi bugiye butandukanye bukorerwa mu karere ka Musanze harimo n'ubucuruzi bw'ibisheke, ubucuruzi bw'ibisheke ni ubucuruzi bugirira akamaro abaturage dore y'uko babikura mu murima bakaba babishyira ababikeneye, bashobora kubibyaza n'ibindi bintu bigiye bitandukanye birimo nk'umutobe w'ibisheke, ndetse bakaba babijyana no ku nganda zikomeye zikabikoramo isukari.

Utubari ndetse n'amabare ni ibikorwa biri gutera imbere mu Karere ka Musanze, nk'aho usanga amahoteri menshi yarubatswe, ndetse n'utubari twarubatswe. Ibi bigafasha abaturage mu kubona aho banywera amayoga bifuza, ndetse bigafasha na ba nyirayo mu gutera imbere.

Amabotike ubungubu yabaye menshi mu karere ka Musanze hari naho usanga hari n'amabotike acururizwamo ibinyobwa cyangwa se anabiranguza akaranguza ibinyobwa by'ubwoko butandukanye harimo nka sukoli. Sukoli dore yuko iri mu binyobwa bikunzwe cyane dore y'uko inagira n'ikipe inafasha mu gihugu cy'u Rwanda ya reyo siporo igafashamo kuyitera inkunga mu mikino igiye itandukanye.

Kuri ubu ngubu mu karere ka Musanze hari amaloji menshi amahoteli amamoteri, ashobora gucumbikira abantu bagize gahunda zigiye zitandukanye, zituma bari burare aho bageze. Nk'ubu ngubu hari nk'iyo bita amahoro gest hawuse iri mu karere ka Musanze, Iyi ngiyi icumbikira abarenga ibihumbi bitanu buri joro.

Ubucuruzi na bwo bugirira akamaro abaturage babukora, dore y'uko nko mu karere ka Musanze hari abo usanga bafite amabutike akomeye ndetse arimo ibicuruzwa byose buri muturage yakwifuza. ikindi nko mu bice byegereye umujyi usanga hari abantu bafasha abandi mu gutera ipasi aribyo mu rurimi rw'icyongereza bita darayikirina. Aba ngaba ubashyira imyenda bakayiguterera ipasi ikajya ku murongo ,ukabaha amafaranga.

Kuri iyi foto n'ubwo nta kintu ndi kubonaho, gusa ndi kubona ibara ry'umutuku ku ruhande, mu gace kagana iburyo mu nguni, nkabonaho n'umweru mo hagati, sinzi icyo ishatse gusobanura, ariko abankuriye bazabasha kunsobanurira, bambwire uko bimeze.

Amarojyi agira umumaro ukomeye cyane dore y'uko yifashishwa mu gucumbikira abantu baba baturutse kure, batari bubone ahantu barara ibyo bigafasha kubona aharara ba mukerarugendo, ndetse n'abandi bifuza gucumbikisha urugendo rwabo bagakomeza bukeye.

Nubwo iyi foto icuritse iri gifasha kubona ko ari icyapa cyerekana iduka ricuruza ibikoresho bigiye bitandukanye harimo: nk'ibinyobwa, ibiribwa, ndetse n'ibindi nk'umuceri. Ibinyobwa harimo: nka fanta, amavuta yo gutekesha, amavuta yo kwisiga, ndetse n'ibindi. Amabutiki yo mu karere ka Musanze yabaye menshi acuruza ibintu bigiye bitandukanye bifasha abaturage mu kwiteza imbere.

Ubucuruzi nyakuri bugirira abaturage akamaro, mbere y'uko abaturage barushaho gucuruza bikabafasha mu kwiteza imbere, harimo nko kugura ibibanza kugura ubutaka kwishyurira abana amashuri, ndetse n'ibindi. Ikindi usanga abaturage bacuruza, ari abaturage bamaze gufunguka mu mutwe, bashobora no gukora ubundi bushoramari butari ubwo gucuruza.

Kuri ubu ngubu, abaturage benshi bamenye ko korora inkoko ,ari bimwe mu bintu bishobora kubagirira akamaro mu kwiteza imbere ,usanga mu karere ka Musanze hari abaturage benshi bafite amafamu y'inkoko ,ayo mafamu y'inkoko buri munsi ashobora gutanga amagi menshi, ashobora guhaza isoko ryose ,bikaba byagirira abaturage umumaro, ndetse bikanafasha kwiteza imbere.

Kuri iki gihe ahantu henshi, hasigaye hubakwa ama etage, kandi ama etage ni amwe mu mazu, yifashishwa mu bucuruzi bugiye butandukanye, dore y'uko aba asirimutse arimo ibyangombwa byose bikenewe n'umucuruzi, kugira abashe gucuruza kandi n'abakiriya babashe kumugeraho, no mu Karere ka Musanze rero hari amazu menshi y'ama etage yifashishwa n'abacuruzi, mu kudandaza ibicuruzwa byabo.

Utubari n'amabare: ni bimwe mu bikorwa bigirira akamaro abaturage, dore nkaho usanga mu karere ka musanze amabare ndetse n'amabutike acuruza ibintu byo kurya no kunyobwa imaze kuba ari menshi, kandi bigafasha abaturage mu kwiteza imbere, mu kubona igishoro, mu kubona inyungu ndetse bigafasha n'abashaka kujya kunywa kuboneraho kunywa hafi habegereye.

Amabutiki yamaze kuba menshi mu karere ka Musanze. Dore nk’aho usanga abaturage bose babaga bafite ibibanza hafi y’umuhanda, bagiye babihinduramo konoshi. Izi konoshi zikodeshwa n’abaturage bifuza kuba abacuruzi, bagacururizamo ibintu bigiye bitandukanye, harimo ibiribwa, ibikoresho by’ubwubatsi, ibikoresho byo mu mashuri, ndetse n’ibindi.

Mu mabotike usanga mu Karere ka Musanze harimo n'ayo gukina imikino y'amahirwe, aho harimo nka za furudibeti zifashishwa mu gutega haba ku mikino igiye itandukanye irimo nk'amashampiyona yaba ayo muri Afurika ndetse n'ayiburayi.

Mu mabutike usanga mu karere ka Musanze n'acuruza ibikoresho bya elegitoronike ntiyayabuzemo: nk'amaradiyo, amakomputa, amaterefoni, ama egisi seri, ndetse n'ibindi bikoresho bindi bya eregitoronike.

Ku muhanda hacururizwa udukoresho dutoya, tuba tutabasha kujya muri butike zikomeye, utwo dukoresho harimo nk'amaherena, impeta, udukuteri, udukomo ndetse n'utundi tuntu twa makeya tuba tutabasha, gushingirwa iduka rikomeye ngo abe ariho baducuruza.

Kuri ubungubu mu karere ka Musanze, abaturage benshi usanga baregerejwe amazi. Aho baba baregerejwe ivomero rigezweho, rihoramo amazi buri munsi. Idomoro imwe, ahenshi usanga itarenze amafaranga makumyabiri n'atanu. Ibingibi bifasha abaturage mu kwiteza imbere, no kubona amazi hafi mu buryo bubegereye.

Amabotike ni bimwe mu bikorwa remezo biri guteza imbere abatari bakeya, dore y'uko kuri ubu ngubu ubucuruzi ari bwo buri mu bikorwa bimaze kugerwaho cyane, dore y'uko usanga abaturage babubonamo inyungu cyane, ari nayo mpamvu usanga n'umubare wa mabotike wariyongereye.

Amabutique ni bimwe mu bikorwa bigirira akamaro abaturage, dore yuko abasha kugurirwamo ibikoresho bigiye bitandukanye, harimo n'ibyo kwifashishwa mu rugo, ndetse n'ibiribwa birimo nk'ibitoki n'ibindi bigiye bitandukanye abantu bakenera buri munsi mu bikorwa bya buri munsi, ndetse usanga n'abacuruzi bakora mu mabutike babasha kwiteza imbere, biturutse mu nyungu bagiye babona mu bicuruzwa byabo.

Mu karere ka Musanze, hari amabutike agiye atandukanye, aho usanga hari amabutike acuruza ibiribwa, acuruza ibinyobwa, ukanasanga imbere yaho hateretse abadozi, badoda imyenda y'abaturage yacitse, cyangwa bakabadodera imyenda mishyashya, ikindi usanga hari n'aba ajenti b'amakampani y'itumanaho menshi hano mu Rwanda, harimo nka emutiyeni, ndetse na iyateri.

Mu Karere ka Musanze ubu ngubu hari amaduka agezweho. Aya maduka agezweho usanga ari ama supamaketi acuruzwamo ibicuruzwa byinshi, ndetse kandi ku giciro gitoya. Mbere y'uko ubu usanga ibicuruzwa utabona wenda nko hafi muri karitsiye ubisanga muri aya masupamaketi.

Amabutike ni ingirakamaro cyane, ku baturage yabayegereye ndetse n'abandi bayacururizamo dore yuko afasha abaturage mu kubona ibicuruzwa hafi kandi kugiciro gitoya, mu karere ka Musanze hari, amabotike menshi, acuruza ibikorwa bigiye bitandukanye.

Mu mabutike dusanga mu karere ka Musanze, harimo n'amabutike akorarwamo imirimo igiye itandukanye, hari nk'aho dusanga hari n'amabarizo, aya mabarizo akorerwamo ibikoresho gakondo bikoze mu biti, birimo nk'ibitanda, utubati, intebe zo kwicaraho ndetse n'ibindi abaturage bakenera buri munsi mu ngo zabo.

Butike zimaze kuba nyinshi mu karere ka Musanze nkaho usanga abaturage barashinze butike zirimo nk'ibiribwa birimo: umuceri, kawunga, isukari, amashaza, umunyu, ndetse n'ibindi bigiye bitandukanye, birimo n'amakaroni. Ikindi bibafasha mu kwiteza imbere, dore yuko izi butiki zibazanira inyungu ndetse zikanatanga n'imisoro.

Amabutike mu karere ka musanze amaze gutera imbere. Cyane cyane nk'acuruza inzoga zigiye zitandukanye, usanga amaze kuba menshi. Acuruza nk'amayoga, nka sokoro, ndetse n'ubundi bwoko. Nkaho usanga konoshi yose barayeguriye ubucuruzi bw'inzoga. Bigafasha nyirabyo kwiteza imbere ndetse n'abantu bakabona aho kunywera.

Mu mabutike twagiye tubona mu karere ka Musanze harimo n'abacuruza ibikoresho bya siporo, harimo nk'inkweto zo gukina n'imikino igiye itandukanye ya basiketiboru , futuboru, voreboru, ndetse n'indi. Hakabamo imipira yo gukina iy'ubwoko bugiye butandukanye niya futuboru, hakabamo imyenda matiriningi ndetse n'ibindi.

Ubucuruzi ni bimwe mu bikorwa bigira akamaro bitewe yuko nk'ubu mu karere ka Musanze, usanga hari amabutike menshi acuruza ibintu bigiye bitandukanye. Harimo inzoga, ibiribwa bikomoka ku matungo ibiribwa bikomoka ku buhinzi ,ndetse bifasha abaturage mu kwiteza imbere.

Mu minsi ishize, wasangaga insengero zarabaye nyinshi kandi zikorera no mu kavuyo, ariko nk'ubugubu insengero zashyiriweho amategeko azigenga kandi usanga zikorera mu mucyo. Aho abaturage bakora ibitaramo bigiye bitandukanye, ku cyumweru bagasenga ndetse n'ibindi bibafasha kwegerana n'Imana.

Nk'uko kuri ubu ngubu Leta yashyizeho ingamba zikanira insengero, ariko usanga abaturage basenga, bagasenga. Ari naho usanga hari amakorali; amakorali, abantu babishaka bahurira hamwe, bakiyemeza gukora umurimo w'Imana. Kandi hari n'igihe usanga bajya guteranira muri paruwasi zigiye zitandukanye kugira ngo bajye kuharirimbira. Igikorwa cyarangira, bagataha.

Koperative ndetse n'amabanki, imwe mu bikorwa bigirira akamaro abaturage. Dore yuko byifashishwa mu kubika amafaranga y'abaturage mu kubona inguzanyo ndetse no mu bindi, no mu kugira inama abaturage ku mishinga.

Koperative ndetse n'amabanki ni imwe mu bintu bigirira umumaro abaturage, dore yuko abaturage bazikoresha mu kubitsa mu kwizigama ndetse no kubona inguzanyo. Cyane cyane nka ekwiti bank, mu karere ka Musanze yifashishwa mu guteza imbere abaturage, dore yuko ifite inguzanyo ibahereza, kandi usanga bayikoresha ari benshi.

Ugeze mu karere ka musanze bukakwiriraho ntiwabura aho urara, dore ko hari amahoteri meza ndetse n'amamoteri ushobora gucumbikamo ijoro ryose cyangwa se ugacumikamo igihe ushakiye, ushobora gucumbikamo mojoro, ushabora gucumbikamo amasaha, ndetse ushobora gucumbikamo n'amezi.

Kuri ubu ngubu mu Rwanda hasigaye hari amahoteli menshi, amaresitora, amamoteri, yifashishwa mu gucumbikira abantu. Mu gihe bageze ahantu bikabasaba yuko baharara. Kuri aha ngaha usanga harimo nko mu Karere ka Musanze hari iyo bita heveni ovu pisi, aha ngaha hari amaroji, hakaba n'amacumbi.

Bimwe mu bikoresho byashaje, bishobora guhindurwamo ibindi bikoresho bisha cyane cyane nk'ibikomoka ku byuma. Ibikoresho bikomoka ku byuma iyo bicanirijwe ku bushyuhe burebure buri hejuru ya dogere selisiyusi nk'igihumbi, usanga bishonga iyo bishonze, babishyira mu cyuma gishobora kubiha indi shepu, bikavanwamo ibindi bikoresho.

Imbuto ni imwe mu bihingwa bikunze kwera mu karere ka Musanze ,cyane cyane nk'inyembe aho usanga abaturage bayigurisha mu isoko bakabona inyungu, kandi bakabasha nabo kubona iyo barya ,ikindi imyemba iratubuka cyane, n'aho usanga igiti kimwe gishobora kwera imyemba igihumbi kuzamuka.

Ibikoresho bikozwe muri palasitiki ni bimwe mu bikoresho usanga byiganje ku masoko, aho harimo nk'inkweto, amadomoro, amabase, indobo, bote ndetse n'ibindi. Ibi kuko usanga bikenerwa n'abaturage mu buzima bwabo bwa buri munsi, harimo kubikoresha mu kuhira mu guhinga ndetse no mu bindi.

Amasupamaketi na yo usanga agira umumaro cyane cyane mu Karere ka Musanze, dore y'uko usanga aba arimo ibicuruzwa ahanini byiganje i Kigali, rero umuturage ukeneye icyo gicuruzwa ,bikaba bitamusaba kujya i Kigali kugira ngo ajye kugishakayo ,ahubwo akaba yakibona hafi ye hamwegereye, nko mu masupamaketi.

Ubucuruzi bwo ku muhanda n'ubwo usanga hari uduce tumwe na tumwe bitemewe, ariko mu mujyi wa Musanze baracyabikora. Nk'aho usanga bacuruza inanasi, imbuto, amasogisi, ndetse n'ibindi bicuruzwa bigiye bitandukanye. Ibi bifasha ba nyirabyo mu kwiteza imbere ndetse bikanafasha abaturage kubibona hafi batiriwe...

Amasoko ndetse n'amabutiki akomeye, ni bimwe mu bintu bigirira abaturage akamaro, kuko usanga n'abafite utuntu duciriritse babona aho bacururiza, usanga harimo nk'udukomo, amamiruwari, indorerwamo ndetse n'imikufi igiye itandukanye, imwe iba igura makeya utabasha gushyira muri butike zikomeye cyane igafasha abaturage mu kwiteza imbere.

Amasoko aciriritse usanga acururizwamo ibiribwa bigiye bitandukanye, imyambaro, ibikapu ndetse n'ibindi bikomoka ku nganda, harimo nk'amaji amafanta, ndetse n'ibindi bishobora gufasha abaturage mu kubibona hafi kandi bakabibona ku giciro gitoya. Ndetse usanga bifasha n'abaturage mu kwiteza..

Ubucuruzi bw'imboga n'imbuto, ni bumwe mu bucuruzi bugezweho cyane mu karere ka Musanze, aho usanga abaturage bacuruza ibinyomoro, imineke, ipapayi, avoka, amatunda ndetse n'ibindi bakabigurisha ku masoko mpuzamahanga ndetse n'ayo mu mugi wa kigali.

Mu isoko harimo ibicuruzwa bigiye bitandukanye: amateke, ibihaza, kokombure, n'inyanya.

Ubucuruzi bw'inzoga ni umwe mu bucuruzi bumaze gutera imbere mu karere ka musanze, nk'aho usanga abantu barihangiye imirimo bagacuruza inzoga zigiye zitandukanye zirimo n'ibyuma, zikamo za tomusoni ndetse n'ibindi n'amaji byose bikenerwa n'abaturage mu gihe bafite inyota.

Ubuhinzi bw'imbuto, ni bumwe mu buhinzi bugirira akamaro abaturage, dore yuko usanga imbuto zihingwa ahantu henshi ndetse zikanera cyane, aho usanga abaturage bo mu Karere ka Musanze, barabonye amasoko bacururizamo imbuto zirimo nk'imineke, pome, watameroni, ibinyomoro ndetse n'ubundi bwoko bw'imbuto.

Kuri ubu ngubu, mu karere ka Musanze bamaze kwihaza mu biribwa, dore y' uko nko mu gihe cy' itumba, iyo rirangiye usanga abaturage bejeje, ibintu bigiye bitandukanye birimo, nk' igitoki, amashaza, ibirayi ndetse n' ibindi bishobora kwifashishwa mu kubona indyo yuzuye.

Ubuhinzi bw'imboga n'imbuto, ni imwe mu bikorwa bigirira abaturage akamaro, mbere yuko umusaruro w'izo mboga n'imbuto ujyanwa ku isoko, ukaba wacuruzwa, muri izo mboga harimo nka karoti, nk'aho usanga karoti nk'eshatu ari ijana, ibi ngibi bifasha uwazihinze mu kubona inyungu, ndetse n'abazikeneye bakaba bazibona, kandi ku giciro kiza, bikanabafasha mu kwihaza mu biribwa.

Mu masoko kandi usanga hacururizwamo ibikomoka ku mboga, cyane cyane harimo nk'urusenda, puwavuro, tungurusumu, ndetse n'ibindi bigiye bitandukanye uba utabona ku yandi masoko yo hirya no hino, harimo nk'amakukumba, beterave, inyanya, bityo bikaba byafasha umuturage kubibona hafi kandi akabasha kwihaza mu biribwa.

Kuri ubu ngubu mu Karere ka Musanze, usanga hari amasoko meza agezweho abasha gukusanyirizwamo ibiribwa bigiye bitandukanye, bikanoherezwa ku masoko makuru nko mu mujyi wa kigali, ndetse no mu tundi duce tugiye dutandukanye. Nk'abaturage bashobora kubona amasoko manini y'ibyo biribwa n'undi musaruro wabo.

Kuri ubu ngubu mu Karere ka Musanze hari ama tiveti yigisha ibyo kudoda imyenda. Rero dusanga abakobwa benshi barayaganye ndetse n'abahungu. ubu ngubu ukaba ubona ko bagerageje kwiteza imbere. Bamwe bakigurira n'amamashini adoda. Nk'ubu ngubu mu Karere ka Musanze harabarurwa abagore benshi badoda kandi bariguriye amamashini.

Imyeyo ni kimwe mu bikoresho usanga bikenerwa buri munsi, dore yuko buri rugo utaburamo imyeyo nk'itatu. Imwe yifashishwa mu gusukura ahantu hatandukanye nko mu nzu, hanze, ndetse n'ibindi. Nayo iri mu bikoresho bifatiye runini abaturage niyo mpamvu usanga n'abacuruzi nabo barayibegereje bayicuruza ku bwinshi.

Mu karere ka musanze usanga hari abaturage bamwe na bamwe bacururiza muri butike ,ariko ugasanga hari n'abandi bacururiza mu masoko, ndetse no ku muhanda . abacuruza ku muhanda harimo nk'aba ajenti ,ndetse n'abandi bantu baba badandaza uducuruzwa twa make turimo nka biswi ibinyobwa nka ji ,ndetse n'utundi twa make.

Isoko rya kijyambere rigezweho muri Musanze aho usanga abaturage bafite ahantu habugenewe bashyira ibicuruzwa byabo birimo nk'indobo, amasafuriya, amasahani, ibiribwa ndetse n'ibindi bishobora kubafasha mu kwiteza imbere usanga abakiliriya babagana ku bwinshi iyo bafite isoko ryateye imbere bigafasha ndetse n'abaturage mu kwiteza imbere haba binyuze mu kwikorera amafaranga.

Amasoko ya kijyambere ni bimwe mu bikorwa remezo bimaze kuba byinshi mu Karere ka Musanze. Ibingibi bifasha abakoreramo, mu kubona aho bagurishiriza umusaruro w'ibihingwa byabo, harimo nk'ibishyimbo, bijumba, indagara ndetse n'ibindi.

Kuri ubu ngubu mu Karere ka Musanze, nko mu murenge umwe usanga hari amasoko aciriritse ya kijyambere nk'atanu kuri buri kagari, aho usanga bifasha abaturage mu kubona aho bajya kugurishiriza umusaruro wabo, urimo:nk'ibirayi, ibishyimbo ,amadegede,,ibitunguru, pavuro ndetse n'ibindi.

Mu karere ka Musanze si ibiribwa gusa n'ibinyobwa ndetse n'ibikoresho byo kubaka bicuruzwa gusa, ahubwo usanga hari n'abacuruza ibikoresho byifashishwa mu kubika amazi, mu gutwara n'ibindi bintu bisukika. Ibyo birimo nk'amadomoro, ibigega ndetse n'ibindi bikoresho.

Amasoko y'ubucuruzi buciriritse, usanga harimo udukoresho abantu bifashisha mu rugo. Tugura n'amafaranga make, harimo nk'utumashu, ibyuma, udukondo, ibikari, ndetse n'ibindi umuturage akenera bitamusaba kujya muri bUtike zihenze cyane kujya kugurayo.

Mu karere ka Musanze usanga hamaze kubakwa amasoko agezweho ya kijyambere, abasha gucururizwamo ibicuruzwa by'abaturage basaruye ahantu hagiye hatandukanye, ndetse n'ibyo bakuye mu murwa wa Kigali ,bakabizanira cyangwa se bakanabyegereza abaturage, hano mu karere ka Musanze ,aho harimo n'ibikoresho by'isuku ,ibiribwa ibikoresho byo kubaka ndetse n'ibindi.